Imiti yabigenewe mu gushyirwa mu myaka ikoreshwa n'abahinzi kugira ngo bagire umusaruro uhagije, bihaze mu biribwa ndetse basagurire n'amasoko, bisaba ko bawutera kinyamwuga kugira ngo ukwirakwire hose.

Gutera umuti ibihingwa bituma ibihingwa bitoha bigakura bidafite udusimba kandi bigakura bidafite indwara zitandukanye bigatuma umuhinzi agira umusaruro mwiza.

Umuntu wambaye isurureti y'umukara akaba afite ipombo mu mugongo isa umuhondo, akaba afite uturindantoki tw'umutuku, akaba yambaye n'agapfukamunwa gatuma umuti utamujya mu kanwa cyangwa akawuhumeka, ari gutera umuti mu bigori.

Umugabo wambaye ingofero ndetse ufite n'indobo mu ntoki, akaba ahagaze imbere y'amazi, ari kugaburira amafi ku cyuzi kinini cyane kirimo utuyunguruzo dutandukanije amabara, harimo umutuku ndetse n'ubururu mu gishanga kinini cyane.

Umugabo wambaye igisurubeti cya kaki ndetse n'umupira, usa ubururu, ari gufata amafi mu byuzi yoroye kandi bikaba bimufasha kwiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye.

Abaturage benshi bitwaje amabasi ndetse n'amajerekani baje guhaha amafi yarobwe mu byuzi bigiye bitandukanye bakoresheje indobani yabugenewe isa umweru ifite n'dufatisho tw'umuhondo dufasha kugira ngo bayikurure byoroshye.

Igishanga kinini gihinzemo icyayi kikaba kiri hagati y'imisozi kandi n'imbere yacyo hakaba hari imisozi, ku ruhande rw'icyo gishanga hari umuhanda ndetse hatuye n'abaturage bigaragara ko ari bo bakorera icyo gishanga kugira ngo cyitabweho neza.

Icyayi ni igihingwa kiboneka ahantu hashyushye kandi hari imisozi miremire, kikaba ari igihingwa ngengabukungu aho gifasha abahinzi kwiteza imbere, kandi kigatuma n'igihugu gitera imbere.

Ikibaya gihingwamo umuceri, kigomba kuba gifite amazi menshi kandi gihingiye neza ku buryo umuceri wisanzura kandi bagatera ku murongo ingemwe ku buryo kwera bitazagorana.

Igihingwa ngengabukungu cya kahwa ni igihingwa gifasha kugira ngo u Rwanda rutere imbere ndetse n'umuturage, rero iki gihingwa gisarurwa iyo intete zacyo zamaze gusa umutuku nibwo kiba cyeze neza.

Ibicupa binini ndetse n'udutoya bigaragara ko ari imiti y'inka cyangwa andi matungo yaba magufi n'amaremare bifasha kugira ngo inka cyangwa iryo tungo ribeho neza ritarwaye kandi ritoshye.

Udushashi dufunze mu biro bibiri dutandukanije amabara umutuku n'umuhondo, hakaba harimo ibiryo by'amatungo birimo intungamubiri zitandukanye zituma amatungo amererwa neza.

Abahinzi bari mu gishanga barimo gukoramo ibikorwa bitandukanye by'ubuhinzi, bari gukorera igishanga ngo bahingemo umuceri kugira ngo bazeze babone ibibatunga.

Ibidukikije ni ibintu bigomba kwitabwaho cyane kuko bidufasha kubaho cyane cyane mu guhumeka bigafashwa cyane natwe kugira ngo tubyongere kandi binafasha inyamaswa kugira ngo zibeho neza zifite aho kuba.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, akaba yambaye isaha y'umuringa, ari gutera igiti bigaragara ko ari kurwanya isuri kandi ari no kurengera ibidukikije.

Mu murima uhinzemo umuceri, hari igiti gifasha kurinda uwo murima kugira ngo inyoni zitona ndetse hari n'ibintu byinshi bitandukanye, bigaragaza ko uwo murima wenda kwera, harimo ingemwe zaturitse ndetse n'umuceri watangiye guhinduka ibara.

Ubuhinzi ni kimwe mu bintu biri kwitabwaho muri iyi minsi, aho hakoreshwa amamashini manini ya rutura, agakoreshwa mu gusarura mu guhinga mu kuvomerera ndetse no mu kwikorera ibihingwa cyangwa ibintu bigiye bitandukanye byasaruwe.

Umuhanda wa kaburimbo wegeranye n'ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo urutoki, intusi ndetse n'ibigori biri hafi y'amazu, bigaragara ko aho hantu n'ubwo hatari amazu meza ariko hazatera imbere mu gihe kizaza.

Umusozi munini uriho biti bitandukanye ariko bigaragara ko ari ibishikano, ibindi binini babitemye, hakaba hagaragara nk'umwotsi nkaho ari aho basaruye ishyamba.

Ihindagurika ry'ibirere ni kimwe mu bihangayikishije isi ndetse n'u Rwanda by'umwihariko bitewe n'uko ibidukikije biri kugenda byangirika, inganda ndetse n'ibindi bikaba byangiza ibidukikije ku kigero kiri hejuru.

Umudamu uri gukora mu busitani bugiye butandukanye, uri gukora mu ndabo zisa amabara atandukanye, harimo umutuku, iroze, umuhondo ndetse n'icyatsi, byose bigaragaza ko ari ubusitani bwiza kandi butoshye.

Urusenda ni kimwe mu bihingwa bikunzwe cyane, ariko cyane cyane bikaba bikunzwe n'abagabo, aho usanga babikoresha kugira ngo amafunguro abaryohere kandi agume ashyushye cyane.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ingofero, wambaye n'agatako k'ubururu ku maboko, afite icyuma mu ntoki ari gusarura pavuro zisa umuhondo, uretse ko hari n'izindi zisa icyatsi, wagirango ngo ntago zari zera.

Amazi yashyizwe hamwe mu muyoboro umwe kugira ngo atazagiriza abaturage imyaka yabo, ikaba iri mu muyoboro ukotejwe na sima hariho n'amabuye kandi impande yaho hakaba hari abantu bane bari kwitambukira.

Ibihingwa byinshi by'imisozi bikenera amazi ariko mu gihe cy'imvura biba biyabona, iyo bigeze mu gihe cy'izuba bisaba ko umuhinzi abivomerera kugira ngo bibone amazi byere neza.

Umurima w'amashu uri hagati y'ibiti byinshi bya voka, harimo umuntu uri kuvomerera ayo mashu kandi ikigaragara aya mashu amaze igihe kinini nubwo ataragera igihe cyo gusarurwa, ariko izuba riri gutuma bayavomerera kugira ngo atuma.

Bavuga ko u Rwanda ari rwiza bitewe n'imisozi rufite, itatse neza, igiye ku mujyo umwe ndetse ikaba inariho bimwe mu byiza nyaburanga, aho usanga yaratatseho amasiterasi y'indinganire nubwo akoreshwa mu kurinda isuri ariko anagaragara neza.

Imisozi miremire ndetse n'imigufi ihinzeho ishyamba, ikaba ihinzeho n'icyayi, ikaba irimo n'ibindi bihingwa bitandukanye bifasha urusobe rw'ibinyabuzima kubaho neza.

Ni byiza ko amazi aturuka i musozi atangirwa n'ibiti biba byatewe n'abaturage kuko iyo bigeze mu gishanga ya suri yaturutse i musozi yangiza ibinyabuzima byo mu mazi yo mu kabande.

Hitwa urw'imisozi igihumbi kubera imisozi myinshi ihari kandi iyo misozi yiganjemo ibintu bitandukanye, mu bibaya byabyo hakaba hari amazi imusozi hakaba hari ibiti, ibihingwa, amazu ndetse n'ibindi bitandukanye bigaragaza ubwiza nyaburanga bw'ibidukikije koko.

Ibiti, amazi magari, imihanda, imisozi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ni bimwe mu bigize ibidukikije, bidufasha guhumeka neza no kubaho neza kandi n'inyamaswa zikabona aho kuba, yaba iziba mu mazi ndetse n'imisozi ndetse no mu kirere.

Inkoko nyinshi ziri mu kibuti, zirimo kurya, izindi ziri kureba, ikigaragara ni uko ari nyinshi, ari umuntu wakoze ubworozi bw'inkoko kugira ngo agire amafaranga mu buryo bwihuse.

Gushyira amaherena ku ngube cyangwa ku rindi tungo rigufi, ni igikorwa gikorwa hagamijwe kubara cyangwa kumenya umubare w'ingurube cyangwa irindi tungo kugira ngo bamenye abandi cyangwa izindi ngano z'ingurube bazatanga.

Amatungo magufi na amwe mwafasha aborozi mu kwiteza imbere byihuse, aho nk'ingurube ifasha mu kwihutisha iterambere kubera ko ibyara ibyana byinshi kandi ikanororoka vuba ikanakura vuba.

Igihingwa cy'ibigori n'igihingwa ngandurarugo kandi ni igihingwa kiba gikenewe na buri muryango kugirango babone amafaranga kandi no kugihinga no kugikorera amasuku mu kwanika no kubishesha biroroha cyane.

Igikorwa cyo gutera intanga inka, ni kimwe mu bifasha kugira ngo aborozi bagire inka zifite umusaruro uhamye kandi zikamwe amata menshi kugira ngo babone amafaranga azabatunga ndetse bo n'umuryango.

Inka bita inyambo ni inka nziza cyane zikunda kuboneka hirya no hino ariko zikaba ari inka zigaragaza umuco kuko zabayeho na kera hose, izindi zitwa inzungu zitaraza.

Inkende cyangwa utundi dusimba twurira ibiti, ni bimwe mu bigize ibidukikije aho bikurura abakerarugendo bikaba biri mu byiza nyaburanga bigiye bitandukanye, aho usanga ari byiza rwose biryoheye amaso mu kubireba.